Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bicaye ku ntebe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari mu nama kuko imbere hari umugabo uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe muri sale y'inama hakaba higanjemo abagabo ndetse n'abagore ariko imbere hakaba hicayeho abagabo bakorera inzego z'umutekano izizwi nk'igisirikare ndetse n'igipolisi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo abaturage ndetse n'abayobozi, bakaba bicaye bari mu nama aho inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ikirangantego na repubulika y'u Rwanda, n'insanganyamatsiko igira iti "rubyiruko menya amateka yawe".

Abantu bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama buri wese afite ikaramun'ikayi ye ari kugenda yandika ibiri kuvugirwamo, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati aho ari kubakoresha iyo nama.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye y'icyatsi bigaragara ko bari mu nama, barebye imbere bigaragara ko bateze amatwi umuntu uri kuba bakoresha iyo nama.

Abagore bagera muri babiri umwe afite imikenyero yakenyeye undi afite indangururamajwi mu ntoki, bari kuganira inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyandikishijeho inyuguti z'umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari gufata ifoto y'urwibutso, biragaragara ko bari bari mu nama none inama irarangiye baje gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo babone uko batanga raporo.

Umugabo ufite umudigi akaba afashe indangururamajwi mu ntoki, yambaye agapira k'amaboko y'amace ari kugira icyo atanga mu nama bigaragara ko hari abantu benshi bakurikiye inama ye n'ubwo batagaragara.

Abantu benshi cyane bagaragara ku mashusho bicaye bigaragara ko bari mu nama bambaye imyambaro igiye itandukanye igiye imeze nk'amaroza abandi baba bari mu nama ndetse n'undi umwe uri gutanga ikiganiro.

Umugabo wambaye ishati, igiye irimo amabara agiye atandukanye y'umukara n'umweru, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragaza ko ari mu bukwe, ari kugira icyo avuga.

Umugabo wambaye ishati yumweru, akaba ahagaze imbere y'agatuti afite indangurura majwi mu ntoki ari kuvuga, ahantu ahagaze hari mumabara y'umweru ndetse hejuru ye hatatse mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko ari abayobozi, bahagaze imbere harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, inyuma yabo hari abandi bahicaye ndetse ahanini n'icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bari mu nama higanjemo abagabo ndetse n'abagore, buri wese imbere ye hatetsemo icupa ririmo icyo kunywa ndetse bari kureba umuntu uri kubakoresha inama.

Abantu bari mu mubu bukwe b'abakobwa bambaye imikenyero myiza cyane bari kugenda babyina, bambaye imikenyero iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, bakaba bari kubyina bishimye kandi banezerewe.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse akaba ahagaze imbere y'inka, bigaragara ko uyu mugabo ari umushumba w'izi nka ndetse izi nka na zo zikaba ari nyinshi ari ize zimuha umusaruro.

Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwami w'intwari cyane mu Rwanda kuko yakoze ibikorwa by'akadasohoka mu Rwanda, ingoro ye yari iherereye mu karere ka Huye.

Intore ebyiri aho ziri kugenda buri wese afite icumu rye imbere ye aho bakenyeye imyambaro izwi nk'imishanana y'intore bakaba bafite n'ingabo bigaragara ko bagiye kubyina.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bikaba bigaragara ko bari mu bukwe aho hari abageni ndetse n'abasore ndetse n'abakobwa bicaye mu buryo bwa kinyarwanda bakaba bari muri sale iberamo ubukwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati atukura ndetse ifite n'inzugi z'umutuku, ikaba iri ahantu bigaragara ko yegereye urugomero rw'amashanyarazi.

Ipironi rirerire ritwara umuriro w'amashanyarazi riwugemura mu ngo nyinshi zigiye zitandukanye zo mu byaro kugira ngo babashe kuvana abaturage mu mwijima na bo bajyane n'iterambere rigezweho.

ahantu hari amapironi menshi ndetse na moteri nyinshi zizana ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, aho bigaragara ko hashobora kuba hari urugomero, imbere y'aho hari umuhanda wa kaburimbo ufite udushami twinshi.

Umugabo wize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi akaba yuriye ku rwego agiye kureba icyo mubazi yabaye kugira ngo ayikore hanyuma uru rugo ruzage rucana, iyi nyubako rero yubakishije amatafari ahiye ikaba iteye irange ry'umweru n'ubururu.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho zisakaje amabati y'umutuku ndetse zikaba zubakishije amatafari ahiye, zikaba ari inyubako nziza cyane zikorerwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu biga ibijyanye no gukanika umuriro w'amashanyarazi bakaba bambaye ibisarubeti ndetse n'ingofero zabugenewe aho bari kugenda bafudira basanasana kugira ngo bubake neza uru rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto ririho insinga nyinshi zitwara ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, aho izi nsinga zitwara umuriro ku baturage, maze bakabasha gucana bakava mu mwijima no mu kizima.

Ipironi ritwara insinga z'amashanyarazi, rikaba ryubakishije ibyuma byinshi bigiye bitandukanye, rikaba rigemura umuriro w'amashanyarazi, ku ngo z'abaturage batuye ahantu hatandukanye kugira ngo babashe kuva mu mwijima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite amadirishya n'imiryango bigiye bisa umweru, bigaragara ko ari ibiro by'Akagari runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubatswe mu ishusho y'uruziga, ikaba iteye amarange y'umweru, ifite n'ibirahuri bitabonerana, ikaba ifite inzira iganayo, ishashemo amapave ndetse n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako yubakishije amatafari ahiye, iteye amarangi y'umweru bikuta, hakaba hashashemo amapave mu mbuga yayo ndetse hari n'uruzitiro rudutije senyenge.

inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati ndetse yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane aho muri ubwo busitani hateyemo ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari ikigo nderabuzima aho hari abaganga benshi bahakorera ndetse n'abaturage bahari baje kuhivuza, hakaba handitseho amagambo ngo gira ubuzima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarange y'umuhondo ndetse n'umukara ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse imbuga yayo ikaba ishashemo amapave.

Inyubako nziza cyane zubatswe ku buryo bugezweho aho zubakishije amatafari ahiye, zikaba zikingishije inzugi z'icyatsi, kuri izo nyubako hejuru hakaba hariho utubara turi mu diarapo ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane y'isoko, isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba izitijwe n'urugo ruzitije ibyuma, aho mo imbere harimo abantu benshi cyane batandukanye baremye isoko, baje guhaha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bikaba bigaragara ko iyi nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, ikaba ifite amabati y'ubururu ndetse iteye n'irangi ry'umweru n'icyatsi ifite n'ibigega bitangira amazi.

Mu Rwanda hari kugenda hatera imbere cyane aho uru rusisiro ruri kubakwamo inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi zigezweho ndetse hari kubakwa n'umuhanda, bigaragara ko aha hantu nihuzura hazaba habereye ijisho.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho izi nyubako zisakaje amabati y'umutuku ndetse zikaba zubakishije amatafari ahiye, zifite ubusitani bukiri buto kuko ntabwo burakura.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakaje amabati meza cyane, ndetse zikaba zifite ubusitani bukiri buto ariko butoshye, n'inzira iganayo irimo umuhanda w'amapave.

Umuhanda wa kaburimbo unyura ahantu mu rusisiro runaka aho urwo rusisiro rwateye imbere, uwo muhanda ukikijwe n'ibyuma bifitiye ndetse hakaba hari n'amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho.

Ku kigo nderabuzima cyubatswe neza gisakaje amabati y'ubururu, giteyewe n'amarangi y'ubururu ku bikuta, hahuriye abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakaba baje gushaka serivisi zubuvuzi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifite ibirahuri byiza cyane ndetse zikaba ziri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'abantu benshi bagiye batandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwarwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto ndetse n'igare, ku kayira ko ku ruhande hari kugendamo umunyamaguru umwe ndetse kuru ruhande haparitseho ibindi binyabiziga by'imodoka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bari mu nama bicaye munsi y'ibiti bizana umuyaga n'amahumbezi, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi uri kubakoresha iyo nama.

Abantu batandukanye biganjemo abagabo bakaba bahagaze imbere y'igicumbi bari kwifotoza, harimo bane bambaye ingofero naho undi umwe nta ngofero yambaye, icyo gicumbi kikaba cyanitsehongo Gikoba.

Abantu bateraniye hamwe bigaragara ko ari abayobozi imbere yabo hakaba hari inka, biragaragara ko iyi nka bagiye kuyiha umuturage runaka mu rwego rwo guha inka Umunyarwanda, iyi gahunda ikaba yitwa Girinka.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bateranye bahuriye hamwe kandi batandukanye bakaba bari mu nama yiga ku nsanganyamatsiko runaka, bakaba bari ahantu heza cyane hari amatente y'umweru n'umuhondo.

Abantu bari kugenda bigaragara ko bagiye gushyingura, aho umuntu uri imbere yambaye amakositimu akaba afashe ifoto ya nyakwigendera, hanyuma abari inyuma ye bateruye isanduku bambaye iby'umukara.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bakaba bahagaze imbere bigaragara ko bari mu nama, bakaba bari kugira icyo bavuga, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bari mu nyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bari mu nama, bakaba bicaye buri wese afite amazi ateretse imbere ye mu icupa ndetse hari umugabo uhagaze mo hagati afite indangururamajwi ari kugira icyo ababwira.

Umugore wambaye ikanzu isa icyatsi ndetse irimo n'utubara tw'umutuku akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bicaye ari kubagezaho inama runaka y'insanganyamatsiko bari kwiga ho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'imodoka itwara abagenzi, ikaba iri mu mabara y'umweru. Iyi modoka itwara abagenzi ariko ntabwo ijya irenza makumyabiri n'umunani.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igare ritwawe n'umugabo, uwo mugabo akaba yambaye agapira k'umukara, inyuma ku igare ahetseho umukobwa wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo nka moto, imodoka, amagare ndetse n'ibindi, uwo muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'inzu z'ubucuruzi ziwegereye.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iyo modoka ikaba itwara abaturage mu buryo bwa rusange. Iri gusa umweru, ndetse iri kugenda bigaragara ko itari yuzura, iri gushaka abandi bagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'imodoka nziza cyane igezweho, imodoka ifunze itwara abantu bake, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'amapoto atwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikiri kubiza imbere ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto aho iri kugenda mu muhanda icanye amatara ihetse umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite umurongo uwutandukanya n'inzira y'abanyamaguru, ku nkengero zawo hakaba hateyeho ipoto ricana amatara yo ku muhanda, hakaba kandi hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye, bizana umuyaga n'amahumbezi.

Ahantu mu rusisiro aho harimo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho umuntu ahagera akareba ibiti ukuntu biba ari byiza cyane, bizana umuyaga n'amahumbezi bikamushimsha.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo umusore utwaye igare ndetse n'indi moto iri kugendamo, bikaba bigaragara ko uyu muhanda ukozwe vuba aha.

Umuhanda wa kaburimbo ugiye urimo imironko isa umweru, ku ruhande hakaba hariho icyapa cyanditseho mirongo inani bikaba bigaragaza ko iyo ikinyabiziga kihageze kigomba kugendera mu muvuduko wa mirongo inani.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo na moto zigera muri ebyiri, aho hari imwe iri kugenda icanye amatara ndetse n'indi iri kugendera mu ruhande rutari urwayo, bigaragara ko uyu mumotari ashaka guhita kuri mugenzi we.

Abantu benshi bahuriye hamwe bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, aho abakuru n'abato bose buri wese ari kugenda afite ibuye. Harimo kandi n'abakorera inzego z'umutekano by'umwihariko iza gisirikare.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukoma amashyi bishima, bacinya akadiho kugira ngo banezerwe, muri abo bantu harimo n'ushinzwe umutekano w'umupolisi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bakaba bari mu gikorwa cy'inama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bicaye munsi y'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, bakurikiye umuntu uri imbere uri gutanga ikiganiro.

Ahantu hari abantu benshi bateraniye hamwe twakwita nk'urujya n'uruza, aho bigaragara ko bari bari mu nama none iyo nama ikaba irangiye bose bakaba babasezereye babemereye gusubira iwabo none buri wese ari kugenda agana iwe.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda, higanjemo abagore ndetse n'abagabo abana ndetse n'abakuze, iki gikorwa rero cy'umuganda akaba ari gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki akaba ahagaze imbere y'abantu benshi higanjemo abakuru n'abato ari kugira ngo agire icyo ababwira, ahantu bari hakaba hari amatende atatse mu mabendera y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu gikorwa cy'umuganda cyangwa se bakaba bari guhinga, bari guhinga rero ahantu mu muhanda kugira ngo hamere neza abantu bajye banhanyura hatanyerera.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bari mu gikorwa cy'umuganda, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara bakaba bari kugenda bakoresha amafuka ndetse n'ibitiyo.

Abantu bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda aho buri muntu agenda aterura ibuye bakayahuriza hamwe akaza kuba yakora igikorwa runaka, muri aba bantu rero harimo abayobozi ndetse n'abasirikare.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari kugenda bakorera isuku umuhanda bawuharura, bari mu gikorwa cy'umuganda. Umuganda rero ni gahunda yashyizweho na leta y'igihugu y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa cy'umuganda higanjemo abadaso ndetse n'abapolisi bakaba bari kugenda bakora umuhanda ndetse hari n'abandi bikoreye amabuye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda aho harimo ab'inzego z'umutekano, harimo nk'umusirikari, umupolisi ndetse n'umudaso bakaba bari kugenda baharura umuhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye bari kugenda ahantu mu busitani bwiza cyane, bigaragara ko bari bari mu gikorwa cy'inama, none kikaba kirangiye buri wese akaba ari kugenda ataha asubira iwabo.

Abantu benshi bagiye batandukanye aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari ikipe y'umupira w'amaguru igiye gukina. Abakinnyi bari kubanza kwitoza ngo babone gutangira umukino.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu myitozo ngororamubiri, hakaba higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bicaye bagiye bashyiramo intera ingana na metero kugira ngo bajye barabona uko bisaganura.

Abantu bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru b'igitsina gabo aho bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, iki kibuga kikaba kirimo ibyatsi byinshi bituma umuntu uguye hasi atabasha kubabara.

Umupira wo gukina uzwi nka balo, ukaba ugiye uri mu mabara agiye atandukanye. Urambitse ahantu mu kibuga, bigaragara ko ari wo amakipe agiye kwifashisha akina mu kanya gatoya karibuze.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru aho higanjemo abakobwa bari kugenda bakina umupira bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara n'umutuku akaba ari ahantu muri sitade ndetse hari n'abafana baje kureba umupira.

Abakinnyi bahuriye hamwe bari mu kibuga, bakaba bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bamwe bambaye iz'umuhondo, abandi bambaye iz'ubururu, bakaba bagiye kuramukanya, hanyuma batangire bakine umupira.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bakaba bicaye abandi bahagaze, bakaba bari kureba imbere bigaragara ko bahimbawe bashobora kuba bari kureba umukino w'umupira w'amaguru.

Umugabo ufashe indangururamajwi mu ntoki, akaba yambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa umukara. Ahagaze ahantu, bigaragara ko ari muri sitade, umukino ukaba wari urangiye, ari kugira icyo avuga.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mukibuga aho bari gukina umupira wamaguru, bambaye impozankano zigiye zitandukanye, bamwe bambaye iby'ubururu, abandi bambaye hejuru umutuku, hasi umukara.

Abakinnyi benshi cyane bari mu kibuga aho bambaye imyambaro igiye itandukanye bitewe n'amakipe bakinamo, aho harimo n'umusifuzi wambaye ikabutura y'umutuku n'agapira k'umukara w'umugore, akaba ari gusifura ngo umukinnyi atere penariti.

Abantu benshi cyane batandukanye, aho bari mu myitozo ngorora mubiri, bari mu mukino witwa karati, aho bagenda bazamura amaboko n'amaguru bagenda bapika, hirya no hino kugira ngo bagororoke.

Umusore wambaye agapira k'umweru akaba afite umuriro mu ntoki bigaragara ko ari kuwotesha ururimi, ubu ni bumwe mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri aho twotesha ibice byo mu maso.

Abantu bambaye impuzankano za siporo bakaba bari kugenda bari kuri mucaka bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, bari mu kibuga giteyemo ubusitani bwiza cyane ndetse no hepfo yabo hari amashuri yubatswe mu buryo bugezweho.

Mu muhanda wa kaburimbo haba hakunze kuba hari utuyira tw'abanyamaguru, aho utwo tuyira tuba dushashemo garaviye, abantu bakazajya banyuramo mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ivumbi ndetse n'ubunyerere.

Ahantu mu giturage aho hari umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ariko ubu ngubu hakaba ari nta kinyabiziga na kimwe kirimo, uyu akaba ari umuhanda w'igitaka aho ugenda unyura ahantu hagiye hatandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho uwo muhanda uri kunyurwamo n'abantu bagiye batandukanye bagiye mu bikorwa byabo bya buri munsi, ku nkengero z'umuhanda kandi hagiye hubatse amazu y'ibitwe.

Umwana wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari umunyeshuri, ari kugenda mu kayira k'abanyamaguru kari impande y'umuhanda wa kaburimbo, aho uruhande rw'iyo kaburimbo haparitse imodoka y'umukara imbere y'amazu.

Umuhanda w'igitaka unyura ahantu mu giturage, bigaragara ko nta kaburimbo irimo yewe nta niteze kuzajyamo, kuko uri ahantu mu cyaro cyane udakundwa kugendwamo.

Umuhanda wa kaburimbo aho ufite utuyi t twa'abanyamaguru turi kunyurwamo n'abantu bagiye batandukanye, aho wegereye inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zisakaje amabati y'umutuku.